Abaturage batandukanye, barimo abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko, bateraniye mu cyumba cy'inama, barimo barakurikirana imihango iri kuberamo, harimo abafite amatelefoni barimo gufotora.

Icyumba kinini cy'inama, hateraniyemo abantu batandukanye harimo abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko, harimo umugabo wambaye umupira w'umweru urimo gufata amashusho.

Umusore uhagaze wambaye impuzankano y'ishuri ufite indangururamajwi mu ntoki urimo urasangiza ibitekerezo bye mu mbaga y'abantu bicaye aho ngaho.

Inyubako nini iberamo inama hateraniyemo abantu benshi batandukanye, bamwe mu nzego z'umutekano ndetse n'izindi; bahuriye hamwe barimo kuganira.

Abantu batandukanye barimo abagabo ndetse n'abagore, bari mu cyumba cy'inama, bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza ateretseho ibinyobwa bari kunywa bakurikiye inama.

Amashusho atandukanye ariho abantu bagiye batandukanye, bafite inyogosho zigiye zitandukanye, ziyogosheshwaga mu gihe cya kera, zizwi ku izina ry'amasunzu.

Ibiseke bitanu biboshye neza biteretse hamwe biri mu mabara asa ariko biri mu ngano zitandukanye. Byifashishwa mu muco nyarwanda batwaramo imyaka cyangwa se ibindi biribwa bitandukanye, babijyana ahantu habaye ubukwe bizwi nko gutwerera.

Imisambi ibiri igerekeranyije barimo kuzinga bamaze kuboha, yifashishwa n'abaturage bayicaraho cyangwa se bayanikaho imyaka igiye itandukanye.

Abagabo batandukanye bambaye gakondo, bafite ibisatsi by'umweru birebire, bafite amacumu mu ntoki, barimo kwiterera hejuru babyina indirimbo gakondo.

Igikoresho kiboshyeye neza kizwi ku izina ry'umugeka, aho abantu bawifashisha bawicaraho ndetse bawuterekaho ibindi bikoresho bigiye bitandukanye.

Abagabo babiri barimo kumanika igikoresho kizwi ku izina ry'umurasire ku ibati, kugira ngo ujye utanga ingufu z'amashanyarazi wifashishije imirasire y'izuba.

Urugomero rw'amashanyarazi ruriho amapoto ashinze ndetse hari n'ibindi byuma bigiye bitandukanye byifashishwa kugira ngo bitange ingufu z'amashanyarazi.

Ipoto rinini ry'amashanyarazi ry'igiti, hariho insinga zigiye zitandukanye, zigemura amashanyarazi mu duce tugiye dutandukanye. Hahagazeho umugabo uri kuyikora.

Inyubako z'ubucuruzi zigiye zitondetse ku mirongo, hashinze amapoto y'ibiti anyuraho insinga zijyana umuriro w'amashanyarazi hirya no hino, hahagazeho abagabo barimo kuwukora, bigaragara ko byagize ikibazo.

Abagabo batandukanye bakora mu kigo cy'igihugu gishinzwe umuriro w'amashanyarazi barimo gukurura urusinga barimo kuzamura kugira ngo bajyane ahantu hashya umuriro.

Imisozi igiye itandukanye iriho amashyamba ndetse inakorerwaho ibikorwa bijyanye n'ubuhinzi. Hashyiho ipoto rin nini zizengurutseho insinga zisakaza umuriro w'amashanyarazi.

Ipoto rinini ry'amashanyarazi ryubakishije ibyuma rigemurira ayandi mapoto matoya umuriro, hazengurutseho insinga zigiye zitandukanye zijyana umuriro hirya no hino.

Isoko rinini ryubakiye ricuruza ibiribwa bigiye bitandukanye harimo imboga ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, hateraniyemo abaguzi ndetse n'abacuruzi.

Ikiraro kinini gihuza uduce tubiri dutandukanye ndetse bikorohereza n'abaturage mu migenderanire y'utwo duce, harimo gucaho umumotari utwaye umugenzi.

Urukiko rw'Ibanze rwa Nyagatare rukorera mu nyubako nini isize amarangi y'umweru, amabati atukura imbere yarwo hateretse imbaho zicayeho abantu bazanye ibibazo byabo.

Abagabo batanu bahagaze ku mirongo, bazamuye ikiganza cy'iburyo, icy'ibumoso gifashe impapuro barimo kurahira, bahagaze imbere y'ibiro by'akagari gaherereye mu murenge wa Karangazi.

Inyubako nini y'urukiko rw'ibanze rwa Nyagatare, icibwamo imanza zigiye zitandukanye, imbere yayo hari imbaho zicayeho abantu baje gukurikirana imanza.

Uruganda rwubakiye neza, ruri mu mabara y'ubururu, ruzwiho gukora amata y'ifu, imbere yaho hari umuhanda wa kaburimbo ugeramo uciye ku marembo manini ajyayo.

Inyubako zubakishije amatafari ahiye, zikagira amabati atukura zigiye zitandukanye, zifite imbuga ngari, iruhande rwazo hashinze ipoto rinini ririho itara ribafasha kumurika aho ngaho.

Inyubako nini ikoreramo ibiro by'akagari ka Kabare imbere yayo hashinze igiti kiriho idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda riri mu mabara y'umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu.

Inyubako nini y'ikigo cy'amashuri yubakishije amatafari ahiye, harimo ibyumba bitandukanye, byigirwamo n'abanyeshuri, imbere yayo hari imbuga ngari abana bakiniramo.

Isangano ry'imihanda hahuriramo imihanda igiye itandukanye, harimo icyapa kinini cyerekana aho imodoka ziparika ndetse n'ibiro by'abinjira n'abasohoka, kugira ngo kibashe kuyobora abantu baca muri ayo merekezo.

Inyubako nini imbere yayo ifite imbuga ngari ikoze neza, hariho urujya n'uruza rw'abantu bamwe bari kugana iyo nyubako, abandi bari kuvayo, iruhande rwayo haparitse imodoka y'umukara.

Abaganga batandukanye harimo abagabo n'abagore bambaye amataburiya bakora ku kigo nderabuzima cya Mwendo bahagaze hagati y'ibyapa bibiri barimo gufata ifoto.

Icyapa kinini cyubakiye kigaragaza aho akagari ka gasenyi ko mu murenge wa rukomo gaherereye ,hariho ho indangagaciro ndetse na kirazira biranga abantu bo muri ako kagari.

Inyubako nini iri mu mabara y'ubururu, itangirwamo ubuvuzi bw'indwara zigiye zitandukanye, hariho umugore uvuyeyo kwivuza, imbere y'iyo nyubako hateraniye abarwayi baje kwivuza.

lnyubako nini ry'ibiro by'umurenge wa Katabagemu ,byubakishije amatafari ahiye, zifite inzugi zisize amarangi y'umweru, imbere y'aho hari urubaho rwicayeho abaturage babiri, baje gushaka ubuyobozi.

Abantu bo mu nzego zitandukanye za gisirikare ndetse n'izindi, bateraniye hamwe ku kiraro kinini barimo guca igitambaro bagifungura bishya.

Ikiraro kirekire kiri mu kirere cyifashishwa n'abagenzi banyuramo cyubakishije ibyuma ndetse n'imbaho, hari insinga ndende zigifashe kugira ngo gikomere kibe kitabasha kugwa.

Inyubako itangirwamo ibikorwa bijyanye n'ubuvuzi, yanditseho gira ubuzima, imbere yayo hari abaganga babiri ndetse n'abarwayi baje kwivuza.

Inyubako nini yubakishije amatafari ahiye y'ibiro by'Akagari ka Ndengo, ikoreramo gitifu yifashishwa n'abaturage, bahamusanga kugira ngo bahamugezeho ibibazo bafite.

Inzego za leta zigiye zitandukanye, harimo iz'umutekano rwa polisi ndetse n'urwego rwa gisirikare, bateraniye hamwe, bicaye ku ntebe, umugore uhagaze, wambaye ikote ritukura, arimo aratanga ubutumwa, abuhereza abaturage.

Umugabo uhagaze wambaye amarinete, ikoti ry'umukara ndetse na karuvati, afashe indangururamajwi mu kuboko kw'ibumoso arimo aravuga ijambo.

Imbaga y'abantu batandukanye bakoraniye hamwe, bamwe bicaye ku ntebe, abandi bicaye hasi ku mucaca munsi y'ibiti birebire bibakingiye izuba, bitabiriye inama, imbere yabo hari umugabo uhagazembaye marinette ufite n'indangururamajwi uri kubagezaho ubutumwa.

Umugabo uhagaze wambaye ishati y'umukara ufite indangurura majwi mu ntoki, arimo kuvuga ijambo arigezaho abaturage batandukanye, abana, urubyiruko ndetse n'abakuze.

Abantu batandukanye harimo inzego za leta ndetse n'iz'abikorera, bicaye muri sale nini iberamo inama, barimo gukurikirana inama yabereye muri icyo cyumba cy'inama.

Umugabo ukorera ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza, arimo araganiriza abaturage bicaye aho ngaho ku ntebe munsi y'ibiti bibakingira izuba, abagezaho ubukangurambaga ku bijyanye n'ubutabera.

Ikibuga kinini k'igitaka gishinzemo ibikoresho bizwi ku izina ry'amakona higiramo imodoka ndetse n'amamoto kugira ngo umuntu azajye gukorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga.

Umugabo wicaye kuri moto wambaye kasike indi ayifashe mu ntoki, moto iri kugenda iparitse mu kibuga kigirwamo ibinyabiziga, mbere yuko umuntu ajya gukorera uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga.

Amapoto manini agiye atandukanye, anyuraho insinga zinyuranye kandi nyinshi, zigenda zisakaza umuriro w'amashanyarazi, mu ngo zigiye zitandukanye.

Inyubako ndende igeretse kabiri, ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, imbere yayo haparitse ama modoka y'abantu baba baje gukorera aho ngaho ndetse n'ababa baje kuhashaka ubufasha.

Icyapa kinini, kiriho ibirango ndetse n'idalapo ry'igihugu, cyerekana umudugudu wa Kinihira aho uherereye, hariho indangagaciro ndetse na kirazira, abantu batuye muri uwo mudugudu bagenderaho.

Icyapa kinini cyubatse neza kiranga Umudugudu wa Rugendo uherereye mu Kagari ka Ryabega Umurenge wa Nyagatare mu Karere ka Nyagatare hariho indangagaciro ndetse na kirazira ziranga abantu batuye muri uwo mudugudu.

Umuhanda wa kaburimbo, uriho icyapa kigaragaza ko muri metero nke hari aho abanyamaguru bambukira, iruhande rw'uwo muhanda hari inyubako nini z'ubucuruzi ndetse n'amapoto ajyana umuriro w'amashanyarazi.

Umuhanda munini wa kaburimbo, harimo umugabo utwaye moto wambaye kasike itukura, indi iri mu maguru. Iruhande rw'uwo muhanda hari amazu menshi y'ubucuruzi.

Iyi modoka nini itwara abagenzi izwi ku izina rya kwasiteri ya kampani ya Yahu imbere yayo hahagaze abagenzi bari gufata amatike bari bugendereho.

Umuhanda munini wa kaburimbo, harimo umumotari utwaye umugenzi kuri moto iruhande rw'uwo muhanda hari amazu menshi, akorerwaho ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi.

ihuriro ry'imihanda minini ya kaburimbo, iruhande rwayo hari inyubako nyinshi zikorerwamo ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi, imbere yazo hari abantu benshi barimo abaguzi ndetse n'abacuruzi bategereje ababagana.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo kugendaho imodoka nini itwara abagenzi, izwi ku izina rya Kwasiteri, itwara abantu benshi, bityo ikorohereza abayigendamo.

Ahazwi nko muri gare, hateraniye urujya n'uruza rw'abantu bicaye, bategereje imodoka zibajyana impande n'impande. Inyuma yabo hari imodoka yicayemo abagenzi ariko itarahaguruka.

Umuhanda munini wubakishije amabuye harimo haracaho imodoka nini y'umweru itwara imizigo, hirya yayo hari amamoto menshi ategereje abagenzi.

Abaturage batandukanye bafite imihoro ndetse n'amasuka bitabiriye igikorwa cy'umuganda, barimo gutema ibihuru byegereye umuhanda, kugira ngo bawukore neza.

Abantu batandukanye higanjemo urubyiruko, baramukiye mu gikorwa cy'umuganda bahuriyemo n'inzego za Leta harimo urwa gisirikare ndetse n'abandi baturage bafatikanyije muri icyo gikorwa.

Abaturage batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore, bamwe baricaye abandi barahagaze, bitabiriye inama, barimo gukurikirana ibiganiro biri kubera aho ngaho.

Abaturage batandukanye bari kumwe n'inzego z'umutekano ndetse n'izindi, bahuriye ahantu hamwe mu nama barimo kuganira ku cyateza igihugu cyabo imbere.

Abaturage batandukanye bakoraniye hamwe bitabiriye inama, imbere yabo hari inzego z'umutekano ndetse n'izindi zitandukanye, harimo polisi ndetse n'abasirikare baje gutanga ibiganiro.

Abaturage batandukanye bakoraniye hamwe harimo abagabo ndetse n'abagore n'urubyiruko barimo kugenda bakoze imirongo bari kumwe n'ubuyobozi bubarongoje imbere.

Abantu benshi batandukanye, bafite amasuka, bakunja amapantaro, bari mu gikorwa cy'umukanda cyo gukora umuhanda rusange wifashishwa n'abaturage batuye muri ako gace.

Abaturage batandukanye bifatikanyije n'inzego za leta harimo iza polisi, iza gisirikare n'izindi mu birori byabateranirije hamwe birimo kuririmba banabyina.

Abaturage batandukanye biganjemo abagabo ndetse n'abagore bafite imihoro barimo gutema ibihuru ndetse n'ibigunda byegereye umuhanda bifashisha bagenda hirya no hino.

Imbaga y'abaturage batandukanye bateraniye hamwe, bitabiriye igikorwa cy'umuganda rusange, barimo gukora umuhanda bifashishije amasuka ndetse n'ibitiyo, kugira ngo bajye bawukoresha bawujyendamo.

Abagabo bicaye ku ntebe, bo mu nzego za leta zitandukanye, harimo urwa polisi, urwa gisirikare ndetse n'izindi, bakoranye inama n'abaturage bicaye ku mucaca, bakikijwe n'ibiti bibarinda izuba.

Ikibuga gikinirwaho umupira w'amaguru, kiriho ibyatsi igice kimwe, ahandi ni igitaka, hateraniyemo amakipe, arimo gukina, inyuma y'ikibuga hicaye abantu, baje kwihera amaso uyu mukino.

Sitade nini ikinirwaho umupira w'amaguru, hateraniye imbaga y'abantu benshi, batandukanye, urubyiruko, abagabo n'abagore, ndetse n'abana, bitabiriye igikorwa cya siporo rusange.

Ikibuga kinini gikinirwaho umupira w'amaguru hateraniye abaturage batandukanye abagore ndetse n'abagabo hari n'inzego za Leta zaje kwifatanya na bo muri icyo gikorwa.

Ikibuga gikinirwaho umupira w'amaguru, harimo kuberamo umupira uhuhuza amakipe abiri atandukanye, yambaye impuzankano zitandukanye, harimo umusifuzi uri kuyobora uwo mukino.

Ikibuga gikinirwaho umupira w'amaguru, gikoze neza hateraniyemo amakipe atandukanye, harimo n'umugore wambaye ipantaro y'umukara, n'umupira utukura, waje gukurikirana imikino iri kuberamo.

Amakipe abiri, akina ku mupira w'amaguru, ahuriye mu kibuga, bari ku mirongo, bari gusuhuza abayobozi baje gutangiza uwo mupira, ugiye gukinirwaho, mbere y'uko batangira.

Ikibuga gikinirwamo umupira w'amaguru, harimo amakipe abiri atandukanye, imbere hahagaze umusore, uhagaze wifashe ku munwa, uri gutunga urutoki, yishimira igitego amaze gutsinda.

Abagabo batatu bahagaze mu kibuga gikinirwamo umupira wamaguru. Umugabo umwe wambaye impuzankano y'umuhondo niwe ufite balo abandi babiri bambaye impuzankano y'icyatsi kijimye, barimo gushakisha arimo kubacenga.

Inyubako ya sitade, hateraniyeho abantu b'ingeri zitandukanye harimo abasore n'inkumi ndetse n'abagore n'abagabo, bitabiriye igikorwa cya siporo rusange.

Inyubako ya sitade yubakiye, harimo udutebe tw'ubururu hicayemo abantu babagabo, abana ndetse n'abasore baje kureba umupira uri kubera muri iyo sitade.

lcyapa kinini kigaragaza uburyo amakipe y'abagore azahura muri kimwe cya munani, umurenge kagame cup ,uburyo imirenge izagenda ihura, ndetse n'amasaha izakiniraho.

Sitade nini ikoze neza isize amarange y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, mu kibuga harimo abagabo barimo gutanga amabwiriza ku bakinnyi bagiye guhurira mu kibuga.

Inyubako nini ya stade, iteraniyemo abantu bagiye batandukanye, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye amarinete, ufite indangururamajwi, urimo utanga ibiganiro.

Ikibuga kinini gikinirwaho umupira w'amaguru hagiye kubera umupira uhuza amakipe abiri atandukanye, yambaye n'impuzankano zitandukanye, hagati yabo hari umuzamu wambaye bitandukanye n'abandi.

Ikibuga gikinirwaho umupira w'amaguru, harimo kuberamo umukino uhuza amakipe abiri atandukanye, uyu mukino uri gusifurwa n'umugore, mu kibuga hagati harimo umugore wambaye umupira utukura umaze gutangiza umukino.

Amasaha nijoro ku muhanda wa kaburimbo amatara aracanye hariho abantu benshi batandukanye bitabiriye siporo rusange, barimo kwiruka bagorora umubiri.

Ikibuga kinini gikinirwaho umupira w'amaguru, hariho abasore batandukanye bambaye impuzankano imwe, barimo kwishyushya mbere y'uko umukino utangira, uyihuza n'ikipe bagiyeye gukina.

Abakobwa bakinira amakipe atandukanye, bari mu kibuga barimo gukina umupira w'amaguru, umwe yambaye impuzankano y'umukara irimo uturongo tw'umweru, undi yambaye iy'ubururu na yo irimo uturongo tw'umweru.

Ikibuga kinini gikinirwaho umupira w'amaguru, harimo amakipe abiri atandukanye yambaye impuzankano, harimo n'umugabo wambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara, uri kumwe n'umugore bavuye gutangiza umupira barimo gusohoka mu kibuga.

Sitade nini, yubakiye, iri mumabara, umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu, mu kibuga hagati hateraniyemo amakipe yombi, ari gukina umupira w'amaguru.

Ikibuga gikinirwaho umupira w'amaguru, hahagazemo abasore batatu bambaye impuzankano zisa, inyuma y'ikibuga hari abagabo baje kureba umupira uri gukinirwa aho ngaho.

Sitade nini yubakiye neza ikinirwaho umupira w'amaguru harimo ikipe yambaye impuzankano irimo kwishyushya mbere yuko umukino utangira.

Akayira k'igitaka nyabagendwa kazengurutswe n'ibyatsi kanyuramo abaturage batandukanye bajya mu mirimo yabo hirya no hino ndetse abandi bajya mu bikorwa bigiye bitandukanye

Umuhanda munini wa kaburimbo, hariho imodoka nini itwara imizigo izwi ku izina rya fuso, iruhande rwayo hahagaze abagabo babiri, barimo kuganira n'umushoferi uyitwara.

Akayira nyabagendwa gakoze neza gakikijwe n'ibyatsi, kifashishwa n'abaturage batuye mu byaro, bagacamo kugira ngo bagere mu muhanda munini. Harimo kugendamo abantu babiri.

Imodoka nini iri mu bwoko bwa tagisi. Iri mu mabara y'umweru ya Demi Sheratoni hoteli. Ibafasha mu gutwara ibicuruzwa byabo ibajyana kuri iyo hoteli cyangwa se ikifashishwa gutwaza abakiriya ibyo baguze kuri iyo hoteli.

Umuhanda munini ukoze neza w'igitaka, worohereza abaturage batuye muri ako gace mu ngendo bakora bajya mu bikorwa byabo bya buri munsi bajya hirya no hino hagiye hatandukanye.

Umuhanda munini wa kaburimbo wubatse neza ndetse ufite akayira nyabagendwa gacaho abanyamaguru, iruhande rwawo hagiye hari inyubako z'ubucuruzi.

Umuhanda wubatse neza, wubakishije amabuye, harimo umugabo utwaye igare, inyuma ye harimo imodoka, iruhande rwayo hari akayira k'abanyamaguru, harimo gucamo abantu bagiye batandukanye.